Iki ni igikorwa cy'umuganda rusange, aho bateraga ishyamba cyangwa se ibiti, kugira ngo bibashe kubungabunga ikirere cyacu.

Aha ndabona ari umwanya ukorerwamo ubuhinzi, ubuhinzi bw'urutoki.

Ishusho mbona imbere yanjye ndabona ni umurima, ishusho y'ubutaka irimo igihingwa, igihingwa cyera ibihaza.

Aha ndabona ubutaka bw'imiturire nkabona n'ubundi butaka hakurya bwo ku misozi bukorerwaho ubuhinzi butandukanye.

Aha ndabona ishusho y'umworozi worora inkoko, ari aho zororerwa ndetse ari kumwe nazo mbese ni ishusho y'ikiraro cy'inkoko Poultry farm.

Aha ndabona ari icyanya cyororerwamo inka icyanya cyororerwamo inka ifamu.

Ndabona cyanyanya gikorerwamo umuriro wo gukingira inka se kuzitera intanga, ndabona inka, veterineri naho ziri, zibafasha kugira ngo bakore icyo gikorwa zitababangamiye.